Abana biga mu mashuri y'incuke bicaye ku ntebe ubona ko bategereje amafunguro kugira ngo batahe. Niyo mpamvu usanga bakenera abarimu babafasha kugira ngo bafate amafunguro yabo neza.

Ishuri ririmo ikibaho gifite ibara ry'umukara, bigaragara ko ari mu ishuri ry'abana bo mu ishuri ry'inshuke, ni ahantu ubona ko ari heza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bicaye bari kuganira n'abayobozi babo babagezaho ibibazo bafite na bo babibakemurira kugira ngo bakomeze kwiga neza.

Ishuri ririmo intebe z'amoko atandukanye, bigaragara ko ari ahantu heza ho kwigira kugira ngo ubashe gufata kandi wunguke ubumenyi.

Ikibuga kinini kiberamo imikino igiye itandukanye, harimo amazu menshi asakaje amabati atukura, hakabamo ibiti byinshi ubona ko ari byiza.